Ibitaro birimo abarwayi ndetse n'abarwaza harimo n'umuntu wicaye mu igare ry' abafite ubumuga.

Inzu irimo imiti myishi itandukanye harimo abantu babiri ariko umwe w'umugabo wambaye itaburiya arahagaze.